Umugore w'inzobe wicaye ufite imisatsi y'umukara wambaye isheni mu ijosi, wambaye n'ishati y'icyatsi kibisi kirimo utudomo tw'umweru, imbere ye hateretse ikirahure n'icupa ryabugenewe kubikwamo amazi hateretse telefone kumeza n'ururabo.

Umugabo wicaye wambaye ingofero n'amadarubindi w'inzobe ufite ubwanwa uri gukoresha mudasobwa, imbere ye hari umukobwa wicaye wambaye ishati y'umweru ufite imisatsi miremire wambaye utwuma tuyungurura amajwi mu matwi uri gukoresha mudasobwa.

Igice cy'iburyo bw'umuhanda gikikijwe n'ubusitani burimo ibiti n'ahagenewe kujugunywa imyanda hashinze icyuma kiriho igikoresho cyagenewe gufata amashusho yo mu muhanda imbere haparitse imodoka n'abantu banyuranamo.

Imodoka y'imbangukiragutabara iri mw'ibara ry'umweru yanditsweho amagambo ari mu ibara ritukura, iparitse imbere y'inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hari ubusitani.

Umugore n'umugabo bari mu nshingano, bambaye impuzankano iri mw'ibara ryera n'akarango kari mw'ibara ritukura kari ku ruhande rw'ibumoso, umugore wambaye ingofero y'umweru n'inkweto zifunze, umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze, bari munzira yagenewe kunyurwamo abanyamaguru, ku ruhande rwabo hateyeho ubusitani.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara n'agatambaro k'umweru ku rutugu rw'ibumoso n'ingofero mu mutwe bazamuye ikiganza cy'iburyo hejuru ku ruhande rwabo rw'ibumoso hari amabendera y'igihugu cy'u Rwanda bari kurahira. Imbere yabo hari abayobozi bicaye bambaye impuzankano y'akazi bari kubarahiriza.

Umugabo wirabura, wambaye amadarubindi y'umukara, udafite umusatsi, yambaye ikositimu y'ubururu, ishati y'umweru, n'ikaruvate y'ubururu, imbere ye hakaba hari indangururamajwi. Uyu mwambaro yambaye ukunze kwambarwa n'abantu bakora mu nzego zinyuranye z'akazi gasaba ubunyamwuga.

Imodoka y'umweru ifite akarongo k'umukara ahagana hasi ku musozo, yandikishijweho amagambo ari mu ibara ritukura, ku ruhande rwayo hari ubusitani, n'urundi ruhande ruriho indi modoka y'umweru nayo ifite akarongo, hasi yandikishijweho amagambo ari mu ibara ritukura.

Mu kabwibwi mu muhanda imodoka zinyuranamo hari umuntu uri kwambuka wambaye impuzankano y'akazi.

Imodoka nini iri mu muhanda wa kaburimbo isize irange ritukura, yagenewe gutwara ibintu biri mu bwoko butandukanye cyane iby'ubwubatsi, ku ruhande rwayo hateyeho ibiti bitandukanye.

Ihuriro ry'imodoka zagenewe gutwara abantu n'ibintu, imodoka ebyiri zisize ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru handikishijweho amagambo ari mu ibara ryera, hari bantu bari kunyuranamo ndetse n'indi modoka iparitse iri mu ibara ryera n'utuzu twagenewe kwicarwamo n'abagenzi bategereje ndetse n'izindi nyubako zagenewe gukorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.